Igiceri cyanditseho interuro y'amagambo ane y'ururimi rw'igifaransa, asobanuye banki nkuru y'u Rwanda. Hariho imibare ine igaragaza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi ndetse n'igishushanyo cy'ishami ririho imbuto z'ikawa n'amababi yaryo.

Iki ni icyapa kigaragaza iduka ricuruza amata y'inyanza, ndetse n'ibikomoka ku mata harimo n'amavuta y'inka, ndetse n'amata yanyujijwe mu ruganda akongerwamo uburyohe butandukanye, nk'uburyohe bw'imbuto. Hariho inka, bigaragara ko ari amata y'inka ahacururizwa, hakaba hariho na nimero wabahamagaraho.